Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abantu iyo bafite uburwayi butandukanye, bikaba ngombwa y'uko babohereza kwa muganga, babazana muri iki cyumba bakabavura, bakabashyiramo za serumu, ni ahantu heza hameze neza rwose.

Aha ni kwa muganga uko bigaragara umuganga arimo yandika imiti, bigaragara ko ari muri farumasi, ndetse hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, kandi hari isuku, hameze neza, haratunganye.

Ni mu bitaro, ni kwa muganga, ni ahantu hakorerwa ubuvuzi, ni ahantu hafite isuku, umuganga uri gutera urushinge umurwayi afite isuku, ibikoresho arimo gukoresha bifite isuku, kandi n'aho barimo gukorera hafite umutekano, hafite isuku kandi harizewe.

Umurwayi uri kumwe n'umuganga, arimo kumupima indwara ziri mu mubiri we yifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo abashe kumenya uko umubiri we uhagaze, ndetse amenye n'igipimo cy'imiti agomba gufata.

Iyi ni imiti ya gakondo, iba mu ishyamba, ikoreshwa mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye, uburyo bwo kugirango abantu bagire ubuzima bwiza, igihe baba barwaye.

Ni igiti gikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda cyitwa umwenya, ni igiti ushobora gukoresha barwaye giripe, warwaye umutwe, ukumva uguwe neza.

Hano hagaragara ibiti by'ubwoko butandukanye， bishobora gukorwamo imiti ivura abantu，urugero： haragaragaramo inturusi y'umweru， ishobora kwifashishwa mu gukora imiti， haragaragaramo indi nturusi ifite utubabi duto duto ，na yo ishobora kwifashishwa mu buryo bw'ubuvuzi.

Igiti cyitwa umugwegwe ni igiti kimera mu ishyamba ariko abantu bashobora kujyayo gushakamo izo ngemwe bakazizana bakazitera hagati y'urubibi rw'imirima ibiri ihuza abantu kugira ngo hatazagira urengera undi . Aya mababi iyo amaze gukura akoreshwa nk'ubuvuzi cyangwa se bakayakoresha bahambira ibintu bikomeye.

Ubwoko bw'ibiti bivangwa n'imyaka, ibi biti bashobora kubitera mu nkengero z'umurima, cyangwa bakabitera hagati mu murima, ibi biti n'ibiti bitagira icyo bitwaye ushobora kubikoresha nk'imiti, cyangwa se ukabikoresha nka mushingiriro, ndetse n'abantu bashatse kubaka amazu, cyangwa urugo babikoresha mu kubaka.

Igiti bavanga n'imyaka ntikigire icyo kiyitwara. Ni igiti bakunda kwita runusi. Ni igiti ushobora gutera ukakibyazamo imishingiriro yo gushingiriza ibishyimbo, cyangwa se ukakibyazamo inkwi kugira ngo zifashishwe mu buzima butandukanye.

Uyunguyu ni umuti wifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, urasasiye, urabungabunzwe, witaweho, umeze neza.